Abantu bari hamwe bafite igitambaro imbere yabo cyanditseho amagambo, impande hari ubusitani bw'indabo ndetse n'inyubako zubakishije amatafari ahiye n'ibiti.

Abagabo batatu bafite amasuka mu ntoki bari gukata urwondo, imbere yabo hahagaze umugore ukenyeye igitenge, harambitse amajerekani atatu ndetse n'insina ihateye.

Abantu bambaye amajire y'umutuku ndetse n'abaturage benshi bigaragaza ko baje gutanga amaraso, impande yabo hari indabo zanitseho ibitambaro ndetse n'ameza aharambitse.

Abantu bari hamwe mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, imbere yabo hateretse ameza ariho ibitambaro bisa umweru, hateretseho amazi yo kunywa bafite impapuro bari kwandika.

Umusore wagiye kwa muganga bari gufata amaraso ku kaboko muganga ari kumutera urushinge yambaye itaburiya na ga mu ntoki ari gushinyiriza, inyuma ye hari abandi bantu bategereje ndetse n'undi muganga wicaye ku meza ariho impapuro ari kwandika.

Abagabo wambaye amakositimu bahagararanye n'abagore imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo ifite urugi rufunguye n'amadirishya afunze.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa ndetse na ga mu ntoki bari mu cyumba bapimiramo imiti gifite amadirishya ndetse harambitse n'imiti ku meza y'ubwoko butandukanye.

Umuganga wambaye amaherena, itabiriya y'umweru na ga z'ubururu ari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi bw'imiti afite ibikoresho mu ntoki. Impande ye harambitse ibipapuro ku meza ndetse n'izindi zimanitse ku gikuta.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi bw'imiti ndetse n'ibindi binyabutabire harimo mikorosikope, ibikoresho bifata amaraso n'ibindi bintu bitandukanye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje ibati risa ubururu, isize irangi ry'umuhondo, imiryango irafunguye, impande hari ibiti.

Abaturage bahagaze mu kibuga, abenshi bambaye imipira y'icyatsi isa, yanditseho mu mugongo. impande yabo hubatse amahema asa umweru, aririmo intebe mo imbere. Inyuma hari ishyamba ndetse n'umusozi.

Inzu icuruza imiti isize irangi ry'umuhondo, amadirishya n'imiryango birafunguye, hejuru hamanitseho icyapa kigaragaza ko ari inzu icuruza imiti handitseho n'amagambo atandukanye.

Ibikarito birunze ahantu hamwe birimo imiti y'amatungo hashushanyijeho inka ndetse bisa icyatsi, umweru, handitseho n'amagambo y'umukara, impande hateretse amacupa.

Iduka ricuruza imiti ipakiye mu dukarito ndetse n'uducupa tw'amabara atandukanye mu kabati, turasa umweru, umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, handitseho n'amagambo mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro afite indangururamajwi mu ntoki na telefoni imbere ye hicaye abaturage higanjemo igitsina gore, impande hari inzu isize irangi ry'ubururu isakaje amabati bamanitseho igitambaro.

Urubyiruko ruri ahantu hamwe rufite igitambaro gisa umweru cyanditseho amagambo y'Ikinyarwanda mu nyuguti z'umukara, bakenyeye ibitambaro mu mutwe.

Urugo rwubakishije amatafari, mo imbere harimo igiti gifite uturabo dusa umweru ndetse inyuma ibiti by'ubwoko butandukanye harimo n'umwembe.

Umurwayi uryamye ku gitanda gisashe n'amashuka y'umweru, bari kumukanda imitsi y'ibirenge n'umugabo wambaye ishati y'umweru, impande hari akabati karimo ibintu.

Umugore ufite ibisuko ku mutwe, ahetse umwana yarengejeho agashoka aramutwikira, ari mu nzu isize irangi ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Inzu isize irangi ry'uubururu amadirishya n'inzugi birafunguye isakaje amabati imbere yayo hateretse intebe zicaho abantu na kandagira ukarabe, hari undi muntu uri mu idirishya.

Abaganga bambaye amataburiya amwe asa umweruru abandi ubururu bahagararanye n'umugore uhetse umwana, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro n'ikaramu, isahane, uducupa dusa umweru ndetse na telefone.